Umwana muto w'umukobwa wambaye impuzankano y'ikigo yigaho, ari gukaraba intoki kuri robine, inyuma ye hari ibiti ndetse hari n'inzu zo mu giturage.

Icyumba cyo kwa muganga, aho harimo abaganga babiri bambaye bifunze ahantu hose. Umwe ari gupima umukobwa amupima umuvuduko w'amaraso, ni byiza rero ko tujya tugana kwa muganga kugira ngo batu...

Aho abantu benshi bahuriye ubona ko hari abari kwita ku bana bafite ubuzima butameze neza, hano hari umugabo uri kuzirika akantu ku mwana muto w'umukobwa ubona ko ari kumwitaho amuha ubutabazi bw'ibanze, inyuma hari n'abandi bantu benshi.

Abana bato b'abanyeshuri, ndetse imbere yabo hakaba hari abandi bari kubakinira ikinamico, bakaba bose icyo bagamije ari ukwirinda icyorezo cya Ebola, babinyujije mu mukino w'ikinamico, kugira ngo bose babyisangemo.

Umugabo muremure wambaye amadarubindi ndetse n'ikoti ry'umukara na karuvati, ari kumwe n'umukobwa ukiri muto w'umuzungu. Amuhereje igikapu cyanditseho ngo "sura u Rwanda."

Umumama wikoreye ijerekani isa umuhondo, akaba ku mutwe ayikoreje ingata, hirya ye turabona umugabo wunamye wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'umwana wambaye ishati ya kotoni, hirya hari inzu isakaje amabati atukura.

Babyeyi igihe cyose tumaze kubyara ni ngombwa ko dukurikirana abana bacu mu minsi igihumbi ya mbere, hano umubyeyi yagiye kwa muganga kugira ngo umwana we bamuhe vitamine, ni byiza ko rero tubitaho kugira ngo bakure mu bwenge ndetse no mu gihagararo.

Umukobwa bigaragara ko akiri muto, ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe. Hejuru hariho indobo, hasi hatezeho ibasi, akaba we yafunguye amazi, ari koza ibiganza bye. Ni byiza ko twimakaza umuco w'isuku.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bafite amakayi n'amakaramu bari kwandika ibyo bari kumva. Inyuma yabo hari izindi ntebe zihateye bigaragara ko ari mu nzu mberabyombi.

Umukobwa usutamye, uri kuvoma amazi akoresheje ijerekani isa umuhondo, iteretse mu ibasi, inyumaye hanitse imyenda ku mugozi, ndetse hari n'inzu zubakishije amabati, hari n'ibiti.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe, ubona ko ari abagabo n'abagore, bose bicaye ku meza buri wese imbere ye hari ikayi, telefone ndetse n'agacupa k'amazi bari mu nzu isa neza cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, ubona ko harimo abagabo ndetse n'abagore bose bambaye neza, harimo abicaye ndetse abandi barahagaze, imbere hari insakazamashusho igaragaza ko ari ho bari guherebwa ikiganiro.

Umugabo, umugore ndetse n'umwana bicaye ku ntebe. Umugore yicaye ku ntebe y'ubururu, umugabo yicaye ku ntebe y'urubaho. Bose bafite ibipapuro mu ntoki, ubona ko umugabo hari ibyo ari gusobanurira umugore, uwo mugore akaba afite umwana mu ntoki.

Icyumba k'inama cyateraniyemo abantu benshi abagabo ndetse n'abagore, hari abicaye imbere bari gutanga ikiganiro ku bicaye mo hasi, bari kubaha ikiganiro ku byerekeranye n'ubwishingizi bw'ubuzima, ni byiza ko tujya mu bwishingizi bw'ubuzima kuko ari ingirakamaro.

Itiyo izana amazi, hari ikiganza cy'umuntu uri kuyakaraba. Twese twimakaze isuku yo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kuko bidufitiye ubu umumaro ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Abagore ndetse n'abagabo, abenshi muri bo bambaye imipira y'umuhondo hejuru, abandi bakaba bambaye imipira y'umukara, bari gutera imboga ku karima k'igikoni, inyuma hari umupolisi ndetse bakikijwe n'ibiti.

Abana bane ubona ko baje kuvoma, bafite ubuvido mu ntoki, inyuma ya robine hari umukobwa ufite icyuma kizamura amazi kiyakura mu butaka, hirya yabo hari imodoka ihaparitse y'umweru ndetse n'ibiti.

Aha ni kwa muganga aho bakirira abarwayi. Hari abarwayi benshi, hari bamwe bafite n'amafishi mu ntoki bigaragara ko bagiye kujya mu cyumba cyo kwisuzumisha. Ni byiza ko rero mu gihe twarwaye, twerekeza kwa muganga kugira ngo badufashe.

Urujya n'uruza rw'abantu ahantu mu giturage, ubona ko bari kuvoma amazi kuri robine, bazanye injerekani, inyuma hari umuntu uri kuyazamura ayakura mu butaka, ni muri gahunda ya Leta yo kwegereza abaturage amazi.

Abana babiri b'abakobwa, umwe ari gukorera undi indobo irimo amazi. Iyo ndobo irasa icyatsi. Inyuma ya bo hari inzu, hirya ya bo hari ishyamba, ayo mazi bamaze kuyavoma kuri robine iriho ibara ry'ubururu ubona ko bishyimye.

Gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune kenshi gashoboka, ni bimwe mu bituma umuntu agira ubuzima bwiza, twese rero twimakaze uwo muco mwiza turwanye umwanda.

Umupolisi ndetse n'abandi bantu batandukanye, baje kwita ku bana babaha ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, ni byiza rero ko twita ku bana bakiri bato tubagaburira kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Ku ivomero aho hari abana bane b'abahungu, umwe yateze ijerekani imbere kuri robine, undi yafashe icyuma kizamura amazi kugira ngo undi avome, inyuma yabo hari ikinani kirimo ibyatsi bisa neza.

Urujya n'uruza rw'abantu baje mu nama, imbere yabo hari abantu bari kubaganiriza, abagabo babiri bari imbere, bafite mudasobwa imbere yabo, undi mugore na we wicaye imbere afite agacupa k'amazi.

Umwana w'umunyeshuri w'umuhungu ari kuvoma amazi ku kigega akoresheje igikombe kugira ngo ayanywe. Hari ikigega gisa umukara, inyuma ye hari n'urukuta rwubakishije amatafari ya rukarakara.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse na ga z'umweru. Ari kwita ku mwana ukiri muto, uteruwe na mama we wambaye ibitenge. Bicaye ku ntebe ziriho ibindi bitambaro, ubona ko umwana bari kumuha ubutabazi cyangwa se ubuvuzi.

Umwana bigaragara ko yishimye cyane, wambaye ipantaro ya move n'agapira k'umweru, ari kuvoma amazi, imbere ye hari amajerekani atatu asa umuhondo ndetse hari na robine nziza izana amazi.

Umuganga wambaye ishati ya karokaro, itaburiya y'umweru, ndetse n'ikarita y'akazi mu ijosi, yambaye na ga z'umweru, arimo gutera urushinge umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano y'ubururu. Inyuma yabo hari abandi bana b'abanyeshuri na bo bategereje guterwa urwo rushinge.

Abana bato bane ubona ko bishimye cyane, bose bateze ibiganza hejuru y'ibase, hakaba hari umugabo wambaye umupira ujya gusa ubururu, ufite igikombe mu ntoki, uri kubasukira amazi kugira ngo bakarabe, birinde umwanda.

Abana bari gukaraba intoki ku bukarabiro, bakoresheje isabune ndetse n'amazi meza, bari gutozwa kugira isuku aho bari hose kugira ngo twimakaze umuco wo kugira isuku.

Umugore wambaye amadarubindi n'ibitenge birimo amabara atandukanye. Yicaye hagati y'abana bato ubona ko bishimiye kuba bari kumwe nabo. Rero ni byiza nk'ababyeyi kuganiriza abana bacu.

ku ivomero aho abaturage bose bo mu rusisiro baba baje gushaka amazi hari umugore uri ndetse inyuma hari n'abandi bakobwa ndetse n'abana baje kuvoma bakaba bazanye amajerekani indobo ndetse n'amabasi.

Ihuriro ry'abajyanama b'ubuzima, ubona ko bose bishimiye kuba bari guhugurwa uko babungabunga ubuzima bw'abaturage, bose bafite amakayi kandi bambaye n'amataburiya y'ubururu.

Umusore wambaye ishati y'icyatsi ari gukaraba intoki ku ivomero ryakozwe na Leta, inyuma yivomero hari indobo, inyuma ye hari ibiti byinshi bifite amababi atoshye.

Umuganga w'umugore uhagaze imbere y'abandi baturage bicaye mu itente, yambaye itaburiya y'umweru, afite mikoro mu ntoki, ari kubibutsa ingamba nziza zo gukurikiza kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi biganjemo abamama ndetse n'abapapa bose bakaba bambaye umweru, inyuma ku murongo w'inyuma hari abandi bagiye bambaye amakositimu ndetse hari n'umuzungu, bakaba bari imbere y'icyapa cya RBC.

Abantu babiri bagiye kuvoma amazi bafite amajerekani y'umuhondo bose bayateretse kuri robine bari kuvoma amazi ni umugabo n'umugore inyuma yabo hari ishyamba.

Abana b'abahungu bane ubona ko bari ku iriba, bagiye kuvoma amazi. Kuri robine hateretseho ijerekani y'umuhondo, undi ari inyuma ari kugenda ayazamura ayakura mu butaka, uwo hejuru ayavoma.

Umugore uri gukaraba amazi kuri kandagira ukarabe, ubona ko yishimye cyane. Yambaye ingofero ndetse yiteze n'igitenge, ari gukaraba intoki kugira ngo ahamye umuco wo kugira isuku. Ni byiza rero kugira isuku.

Umwana ukiri mutoya, yaje ku ivomero. Yateze amazi ibiganza ku mazi, ari gukaraba mu maso, kugira ngo akomeze yimakaze, umuco wo kugira isuku. Twese rero, uyu muco uturange.

Abaganga babihuguriwe, bambaye impuzankano y'amakanzu y'ubururu ndetse n'amashashi, bari kwita ku mugabo wasamye bari kureba ikibazo afite mu kanwa, inyuma hari abandi bantu bari ku murongo na bo baje guhabwa iyi serivise.

Urubyiruko rugizwe n'abakobwa ndetse n'inkumi, bamwe bambaye amataburiya y'umweru, abandi bambaye imikara hejuru ndetse bose bambaye baji z'ibyo bakora. Ubona ko rwose bishimye cyane, bameze nk'abita ku buzima bw'abantu.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bicaye ku ntebe zegamirwa. Ubona ko bari kuganira ku bintu bitandukanye. Inyuma yabo hari inzu ifite ibara ry'ubururu, na yo yicayemo abandi bantu. Bigaragara ko bari kuganira ku mutekano, kuko harimo n'umugabo ushinzwe umutekano.

Aha biragaragara ko ari inama yari irangiye bari gufata ifoto y'urwibutso. Ni abajyanama b'ubuzima bose bambaye udupfukamunwa, ni abagore ndetse n'abagabo, ubona ko bishimye cyane kuko bahawe amabwiriza mashya yo kwita ku buzima bw'abaturage.

Urujya n'uruza rw'abagore ndetse n'abagabo, higanjemo abagore bateruye impinja, bahagaze ahantu hamwe, bamwe bambaye amajire y'icyatsi. Bigaragara ko bari bahujwe n'ikintu kimwe.

Umwana wambaye impuzankano y'ikigo, hari akabase imbere ari gukarabiramo intoki, ni gahunda rero nziza ya Leta yo gutoza abana kugira isuku aho bari hose.

Umugabo wunamye uri gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, ari imbere y'inzu isize umucanga, inyuma ye hari ururabo ndetse hirya hari n'uruzitiro rw'imiyenzi. ni ngombwa rero gukaraba intoki igihe cyose.

Umugabo wambaye amadarubindi n'umupira w'umuhondo, ari guha umwana ibiryo, uwo mwana akaba ateruwe na mama we, mama we wambaye umupira w'umweru, naho umwana akaba yambaye umupira w'umuhondo, iruhande rwabo hari n'abandi bantu.

Umwana bigaragara ko akiri muto wambaye agapira k'umuhondo, ari kuvoma amazi kuri robine akoresheje igikombe cy'icyuma hari robine ebyiri zose ziri kuzana amazi, bigaragara ko ari gahunda ya leta yo kugeza amazi ku baturage.

Aha ni ku ishuri, muri gahunda ya Leta yo kugaburira abana ku bigo by'amashuri, ubona ko abana bizihiwe, bari kurya ibiryo byiza, bari kurira ku ishuri, abana akaba ari abahungu n'abakobwa bose bafite udupfukamunwa.

Ikigega gisukura amazi kugira ngo abaturage babone amazi meza kandi afite isuku, cyegeranye n'inzu ya etaje ifite ibara ry'umuhondo, hirya nanone hari indi nzu ya etaje na yo ifite ibara ry'umuhondo.

Abakobwa bane ndetse n'umusore ubona ko bishimye cyane, bambaye imipira y'ubururu na baji z'akazi bigaragara ko bakora mu kigo cyita ku bana cya Unicef.

Abana bato b'abanyeshuri bari gukaraba intoki, inyuma yabo hari igiti kinini, hirya yabo hari ubutaka butarimo ibyatsi, aba bana ubona ko bishimye cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, harimo abirabura ndetse n'abazungu. Biragaragara ko bari guhabwa ubumenyi ku bintu bitandukanye. Iyi nama ikaba yari yateraniyemo abantu benshi cyane.

Umwana uri ahantu mu gishanga wambaye ishati y'umuhondo n'ikabutura y'ubururu, afite ibirahure bibiri mu ntoki birimo amazi. Hirya ye hari abandi bana babiri b'abakobwa bahagaze.

Umugabo ndetse n'umwana bishimye cyane bari guseka, umugabo akaba ari gukorera umwana ijerekani ifite icyapa cya yunisefu, bigaragara ko bishimiye iki kigo gishinzwe ubuzima bw'abana.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abagabo bambaye amataburiya y'ubururu bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima, hari n'abandi bambaye amakositimu y'umukara n'umweru, hari n'abandi bari kubafotora bafotora ibyo bari kubereka.

Aha hari hateraniye urubyiruko ndetse n'ababyeyi bakuze, urubyiruko rwaganirizwaga ku buryo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu, ni ngombwa ko rero tugana ababishinzwe kugira ngo baduhe ubumenyi bwisumbuye kubwo dusanganywe.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho ababyeyi bose bafite abana bataragera ku myaka itandatu, babajyanye ngo bitabweho, bahabwa ubuvuzi bw'ibanze, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, ndetse banakure neza.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, abagabo hafi ya bose, bambaye amakositimu na karuvati. Bahagaze, bari gufata ifoto y'urwibutso kuko biragaragara ko basoje inama. Inyuma yabo, hariho icyari cyabateranyije, cyanditse ku cyapa.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, hari umubyeyi uteruye mwana ufite n'ifishi mu ntoki, inyuma ye hari abandi bantu benshi bigaragara ko baje gushaka serivise zo kwa muganga, abenshi muri bo bafite abana.

Abana babiri bari mu gishanga bagiye kuvoma amazi ahantu ku isoko, bafite amabido y'umuhondo, inyuma yabo hari ibyatsi, umukuru ari kuvomera umuto kugira ngo nawe amutwaze amazi.

Abayobozi b'ibihugu bitandukanye, ubona ko bari basoje umuhuro, bari bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, abagabo bose bambaye amakositimu ndetse n'abagore bambaye neza, bose bakaba bafite na baje z'akazi.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite imisatsi miremire myiza cyane, wicaye ku ntebe y'umukara, ari kwita ku mwana bazanye kuvuza ndetse hari n'umubyeyi umuteruye bigaragara ko ari mama umubyara.

Umwana wambaye agakanzu k'umutuku ubona ko ari guseka, ari gukaraba intoki kuri robine, ni igikorwa cya Leta cyo kugeza amazi ku Banyarwanda bose, ndetse ni n'umuco mwiza wo kwimakaza isuku.

Abantu benshi biganjemo igitsina gore bahagaze ahantu ubona ko bari basoje inama, bari gufata ifoto y'urwibutso. Ni byiza rero ko iyo muvuye mu gikorwa runaka mufata ifoto muzajya mucyibukiraho.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara, ubona ko yishimye cyane ari guseka, afite ijerekani iri kuri robine, gahunda ya Leta yo gutanga amazi meza kuba baturage ni nziza cyane.

Umubyeyi wazanye umwana kwa muganga kugira ngo bamuhe ikinini cy'inzoka na vitamine arishimye cyane. Umuganga rero yamwasamuye ari kumuha vitaminini ubona ko ari gahunda nziza yo kugira ngo umwana agire ubuzima bwiza.

Abasore n'inkumi bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'undi wambaye umupira w'umweru n'utujire bari kwita ku bana babaha amata, abo bana bambaye imipira y'umuhondo bigaragara ko ari abanyeshuri.

Abagore bateraniye hamwe ubona ko bose bishimye cyane, bari mu cyumba gishushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye, ndetse ubona ko bose bateranyijwe n'ikintu kimwe.

Ikigonderabuzima cya Mayange, hari abajyanama b'ubuzima bishimye cyane bambaye amataburi ya asa ubururu ndetse n'amakarita y'akazi, imbere yabo hari umuzungu wambaye amadarubindi n'ikositimu bigaragara ko hari icyo yari kubabwira cyabashimishije.

Icyumba gisa neza cyane, ubona ko hari kuberamo ikiganiro. Harimo abagabo babiri ndetse n'abagore babiri. Abagabo bose bafite mudasobwa imbere yabo, umugore umwe afite insakazamajwi mu ntoki. Birasa nkaho bari kuganira ku ngingo runaka.

Icyapa kiriho abirabura ndetse n'abazungu, hariho akantu k'ubururu kanditsemo amagambo mu ibara ry'umweru avuga ko ntawe tugomba guheza inyuma. Rero rubyiruko twese duhore twishimiye ko dutera imbere turi kumwe ntawu usigaye inyuma.

Ni kwa muganga aho umuganga ari kuvura umwana urwaye, ni abaganga babiri ndetse na mama w'umwana yicaye ku gitanda uwo mwana aryamyeho, ni byiza ko rero mu gihe abana bacu barwaye twajya tubihutana ku ivuriro.

Abantu bane bicaye, harimo umugore umwe munini ubyibushye wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, ari kumwe n'abandi bana batatu ubona ko bose batishimye, hejuru yabo hahanitse amashusho.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu benshi, harimo abasore ndetse n'inkumi. Harimo usa nk'ubayoboye bose bagiye bafite impapuro bari kwandikaho ibyo bari kumva. Inyuma yabo hari amarido afite ibara ry'umukara.

Abaganga batatu bambaye bipfutse hose, bambaye ingofero n'udupfukamunwa, amataburiya, bamwe bambaye ay'ubururu undi yambaye iy'umweru, bafite udukarito mu ntoki, bari mucyumba gisize amarangi y'umweru bigaragara ko bari mu nshingano zabo bita ku barwayi.

Abantu benshi ubona ko bari kwifotoza, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya y'ubururu ndetse na baji z'ibyo bakora. Hagati harimo umugabo wambaye amadarubindi n'ikositimu y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga, aho harimo abaganga batatu bose bambaye imyenda y'umweru hejuru, ndetse bakaba bari gutera urushinge umusaza nawe wambaye agapfukamunwa n'umupira uri mu ibara rya kaki.

Umujyanama w'ubuzima wasuye umugore uri kumwe n'umugabo we, uwo mugore bikaba bisa nk'aho atwite, ari kumugira inama z'uko agomba kwitwara nk'umugore ufite umwana mu nda ye.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bafite ibyo kwandikamo mu ntoki zabo, bicaye mu cyumba kirimo amarangi y'umuhondo, biragaragara ko rero ari abaturage bari baje mu nama.

Umusore wambaye agapira k'umuhondo, bigaragara ko ari kuvoma amazi yo gukoresha imirimo itandukanye, harimo guteka kumesa ndetse no kunywa, hirya hari abandi bantu babiri, hari undi mwana na we uri kuvoma ndetse n'undi mugabo uhagaze ku ruhande wambaye ishati y'umuhondo.

Abadamu batatu bose bakenyeye ibitenge, bafite inkoni mu ntoki ndetse banipfutse mu mutwe, umwe ateruye umwana ari kumuha ibere kugira ngo umwana agire ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye imyenda yacikaguritse, bigaragara ko ari umusazi, ari kumwe n'undi mugabo uri kumusuhuza we wambaye neza, bigaragara ko ari kumwitaho kugira ngo amufashe kugarura ubuzima buzima.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo. Kikaba ari icyapa, mu magambo y'ikinyarwanda handitseho ko ari ubuzima bwo mu mutwe bwiza kuri bose.

Umumama bisa nkaho afite ibibazo byinshi byamurenze, ari kumwe n'undi muntu ukiri muto w'umukobwa uri kumutega amatwi, ndetse akanamugira inama inyuma yabo hari inkwi zihegetse.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi biganjemo abagore, abagabo ndetse n'abana bose bafite amadarapo y'Igihugu cy'u Rwanda, bigaragara ko ari igihe cyo kwamamaza umukandida. Hano bari bari kwamamaza umukandida w'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame.

Aha ni mu cyumba cy'inama, aho harimo umugore wambaye ikoti ry'ubururu, ufite insakazamajwi mu ntoki, hirya ye hari undi mugabo na we wambaye agapfukamunwa, inyuma yabo hari ibyapa bya RBC, bigaragaza ko bari gutanga ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima.

Umupira mwiza ufite amabara y'umweru n'ubururu, wanditseho ko ari umuryango wari waje mu nama ya CHOGM. Ni mwiza cyane ndetse ubona ko nawe uwambaye wakubera.

Umutegarugori bigaragara ko yishimye cyane, yambaye igitenge kirimo ibara ry'icyatsi, umweru, n'umukara. Ndetse ikindi aracyipfutse. Ari guseka cyane, bigaragara ko yishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi biganjemo urubyiruko ndetse n'abakuru, hakaba harimo n'abapolisi bari mu gikorwa. Aho bafite icyapa cyanditseho ngo: "Kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye." Twese dufatanye turwanye ihohoterwa iryo ari ryo ryose.

Ni byiza ko dusobanurira abantu bose ibigendanye n'ubuzima, hano umuganga ari gusobanurira umumama uteruye umwana igipimo gipima umuriro mu gihe umuntu arwaye, ibi na byo biba byiza kubimenya.

Umugabo ufite ijisho ritukuriye riri kuzana amarira bigaragara ko arirwaye, ni byiza rero kwihutira kwa muganga mu gihe ijisho ryawe ritameze neza, riri kugaragaza ibimenyetso byo kurwara kugira ngo abaganga baryiteho barivure.

Inyubako y'ibitaro aho hitabwa ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, yubatse ahantu heza cyane, imbere yaho hari ibiti byiza ndetse hateye n'imikindo, utuyira twaho turimo amapave.

Umumama wicaye ku gatebe k'urubaho, imbere ye harambuye akarago. Inyuma ye hari igikuta gisize umucanga, ndetse n'idirishya rifunguye. Biragaragara ko uyu mumama, yigunze.

Umukobwa mwiza cyane, bigaragara ko adakuze cyane. Yambaye agasengeri k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, afite imisatsi myinshi ndetse ari guseka. Biragaragara ko yishimye cyane. Inyuma ye, hari ibiti by'imikindo.

Icyumba cyo kwa muganga aho ababyeyi bajyana abana bagiye kubateza inkingo ndetse no kubaha vitamini, hicaye umukobwa uri kubitaho, hari n'abamama babiri bazanye abana babo, ku meza hariho telefone ndetse n'ibindi bikoresho.

Abana bakiri batoya bambaye udupira tw'imihondo, ubona ko bishimye cyane bari guseka. Rero ni byiza ko duha abana ibyishimo kugira ngo bakure bafite icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza.

Ni mu mbuga aho tubona abakobwa batatu bicaye hamwe, bose bambaye udupfukamunwa. Bari kuganira kandi bose bafite amakaye mu ntoki zabo. Hirya yabo hari inzu za nyakatsi kandi ubona ko hari no kuva izuba.

Aha ni mu cyumba cy'inama, aho abari bitabiriye inama bari bayisoje maze bakafata ifoto y'urwibutso. Imbere ku meza hariho agacupa k'amazi, inyuma ku gikuta hariho ifoto y'umuntu ndetse hari n'icyapa cyanditseho UNICEF.

Umugabo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe yicaye ahantu ku rukuta ruriho ibara ry'umuhondo riri komoka, afite ibintu by'amashashi mu ntoki ubona ko yitangiriye itama, yambaye n'imyenda yacitse.

Inama yateguwe na RBC, imbere hakaba handitse ko ari umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, turahabona abayobozi batandukanye, hari abicaye imbere ndetse hari n'abandi bicaye bakurikiye ibyo abari imbere bari kubabwira.

Umugabo bisa nkaho afite ikibazo cyo mumutwe, ufite umusatsi wamurariyeho ndetse akaba akenyeye igitenge, yicaye muri rigore, imyenda ye yose yayimennye hasi, uyu mugabo afite ikibazo cyo mu mutwe.

Icyapa kiriho umugabo wambaye itabuririya y'umweru, akaba ari icyapa kiganjemo ibara ry'ubururu ndetse amagambo yanditseho akaba ari mu nyuguti z'umweru, kikaba ari icyapa kerekana aho batangira ubuvuzi bwo mu mutwe.

Abana bakiri bato ubona ko bose bari mu rungano, harimo abafite utujerekani, inyuma yabo hari ikinani abana ubona ko ari abo mu cyaro, barishimye cyane ubona ko bishimiye ubuzima kandi bishimiye ibyo bari kubwirwa.

Mu buzima tubamo nk'abantu, ni byiza ko tuba hafi abafite ikibazo cyo mu mutwe, kuko na bo ni abantu bagenzi bacu kandi baradukeneye, kugira ngo tubiteho bumve ko na bo bakunzwe.

Umudamu wishimye cyane uhagaze aseka, yambaye ikoti ry'ubururu n'ikanzu y'umutuku ndetse na baji y'akazi, inyuma ye hari icyapa cy'umuhondo cyanditseho ko ari umufatanyabikorwa mu bijyanye n'ubuzima.

Abagabo n'abagore ubona ko bishimye cyane, bahagaze bameze nk'abari gufata ifoto y'urwibutso. Biragaragara ko ari inama bari basoje, urabona ko bose bishimye cyane ndetse bose banambaye neza. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho.

Umugabo ufite imisatsi isambaguritse, wizingiye mu ipine, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Hirya ye hari abandi bagabo bahahagaze ,ndetse bigaragara ko bari kumugira inama, ndetse banamuba hafi.

Umugore wicaye, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'uducupa turimo amazi. Inyuma ye hari abandi bagore benshi, harimo abambaye amadarubindi. Bose bakaba bateraniye mu cyumba kimwe, kandi bambaye na baji z'akazi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bahagaze hamwe bari kwifotoza bigaragara ko bari bavuye munama, iruhande rwabo hari icyapa kinini cyanditseho ibyo bari barimo ndetse n'ibyo bakora.

Umu mama uteruye ikibondo cyiza cyane kiri guseka, umu mama nawe ni mwiza afite umusatsi w'umukara, bari imbere yinyubako yubakishije amatafari ahiye, ubona ko ari umubyeyi n'umwana bishimye cyane.

Umusore wicaye mu cyumba cya wenyine, wambaye ubusa ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ni byiza rero kwita ku buzima bwo mu mutwe kugira ngo bitavaho bituviraho kuba abasazi.

Umugabo ufite amenyo meza y'umweru afite urudodo ari gukoresha mu kanwa ayasukura kugira ngo imyanda yose ishiremo, ni byiza rero kwita ku menyo yacu kuko iyo tutayitayeho aramungwa.

Umwana wasamye w'inzobe ufite umusatsi mwiza cyane, umuganga yamwasamuye kugira ngo arebe ikibazo afite mu kanwa ke, uwo muganga na we yambaye uturindantoki tw'icyatsi.

Umugabo ndetse n'umwana we bose bambaye udupira tw'umweru, bafite urudodo rumwe bose bafashe bari kunyuza mu menyo yabo kugira ngo bakuremo ibiryo biba byayasigayemo, bari kwita ku isuku yo mu kanwa.

Ibikoresho byiza by'amenyo bifasha mu kuvura ndetse no gukura amenyo, nawe rero niba ufite ikibazo cy'amenyo cyangwa uzi mugenzi wawe ugifite, wagana kwa muganga bakagufasha kugira ngo ubwo bubabare ugira mu menyo burangire.

Umukobwa mwiza cyane ubona ko akeye, ari kwerekana amenyo ye, ayerekana kugira ngo abantu bose babone ko afite amenyo meza, ni umukobwa wakoresheje intoki, azibumbatiza umunwa kugira ngo abantu bose bahite babona ko amenyo ye akeye.

Umugabo ufite amenyo meza y'umweru, afite ubwanwa ndetse ari guseka, afite akadodo mu biganza yanyujije mu menyo kugira ngo akuremo imyanda yose irimo. Ni byiza rero ko twita ku menyo yacu.

Umugabo ugaramye ku kariri kabugenewe, bakaba bari kureba ikibazo afite mu menyo, hakaba hari abaganga bambaye uturindantoki tw'ubururu bari kumwitaho, ni ngombwa rero gukurikirana akanwa kacu.

Umugabo w'umuganga wambaye ikaburiya y'umweru, yicaye imbere y'ibitanda abarwayi barwaye amenyo begamaho, aha ni mu cyumba cyahariwe kwita ku bantu barwaye indwara zo mu kanwa.

Umukobwa mwiza cyane, w'inzobe, wambaye isengeri y'umweru, unipfukishije igitambaro cy'umweru mu mutwe, uri kuborosa amenyo ye akoresheje umuti w'amenyo, ni byiza rwose ko twita ku isuku yo mu kanwa kugira ngo tutavaho tubangamira abo tubana.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe ibirahure cyane bigaragara inyuma, yanditseho n'amagambo y'izina ryayo ko ari ibitaro, iriho uruzitiro ruzamuwe n'amabuye hejuru hakaba hariho ibyuma ndetse hari n'ibiti by'indabo.

Umugore uryamye, wegamye, wasamye, aho umuganga afite utwuma yamushyize mu kanwa, bigaragara ko ari kumukura iryinyo. Umuganga yambaye ga z'umweru ndetse n'impuzankano y'ubururu.

Umukobwa wishimye cyane, ufite imisatsi miremire y'umukara, uri guseka, yambaye agasengeri, inyumaye hari igikuta cy'ubururu, yashyize urudodo mu menyo kugira ngo ayasukure akuremo imyanda.

Icyumba giteguye neza cyane bakuriramo amenyo. Umurwayi hari intebe yicaramo akegama ndetse n'umuganga akicara mu yindi kugira ngo abashe kumufasha kumuvura amenyo. Harimo n'ibindi bikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Umusore mwiza cyane, ufite ubwanwa wambaye ishati y'ikoboyi n'agapira mo imbere, ari guseka yerekana amenyo, ubona ko afite amenyo meza cyane y'umweru, rero twese twite ku menyo yacu.

Umukobwa bigaragara ko ari umuganga wambaye impuzankano y'ubururu, uturindantoki tw'ubururu ndetse yambaye n'agapfukamunwa. Ye hari ibyuma yashyize mu kanwa k'umusore uryamye bigaragara ko ari kumukura iryinyo.

Umukobwa mwiza cyane wicaye mu ntebe, afite indorerwamo mu biganza bye, yasetse ari kureba uko amenyo ye asa. Ni byiza rero ko tugira amenyo meza, kugira ngo duseke neza.

Umuganga w'umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye agapfukamunwa, itaburiya y'umweru ndetse na ga, imbere ye ku meza hari impapuro, ikaramu na telefone akaba yasamuye umukobwa amurebera ikibazo yaba afite mu menyo.

Umugabo uri guseka, ufite amenyo meza cyane y'umweru, afite akadodo mu ntoki, ari kunyuza mu menyo kugira ngo akuremo imyanda iba yasigayemo. Rero, twite ku buzima bwo mu kanwa kacu.

Umugabo uri kwireba mu ndorerwamo ngo arebe neza uko amenyo ye asa ayagenzura kugira ngo yite ku isuku yo mu kanwa ke, twese rero duharanire kwita ku isuku yo mu kanwa kacu.

Umusore mwiza cyane w'inzobe, uri guseka, ufite ubwanwa, urabona ko afite urudodo mu ntoki, ari kurukoza mu menyo kugira ngo asukure amenyo ye asa neza cyane.

Umusore ubona ko adakuze cyane wambaye hejuru umweru, afite urudodo mu kanwa yarushyize mu menyo, bigaragara ko ruri kumufasha gukuramo imyanda iba yasigayemo mu gihe ari kurya.

Umugabo munini ufite ubwanwa uri guseka, akaba afite akadodo mu menyo, akadodo ari kwifashisha asukura amenyo ye kugirango akuremo imyanda y'ibiryo. Ni byiza rero ko twita ku menyo yacu kugirango turusheho gusigasira isuku yo.

Icyumba kigaragara neza, gisa umweru ,gifite na parafo y'umweru, kuri parafo hariho amatara ari kwaka. Ndetse ku mpande hariho n'utubati. Hari ibitanda bitatu, bigaragara ko ari aho umuntu urwaye amenyo ,aryama yegamye kugira ngo babashe kumuvura.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru, impuzankano y'umweru, ishati ndetse na karuvati y'umutuku, yegamije umusaza amukora mu kanwa aramwasamura bigaragara ko ari kumukura iryinyo, bari mu cyumba kirimo amarido arimo ibara rya kaki.

Umugabo bigaragara ko akuze ateruye umwana basa, ufite agapupe mu ntoki. Ni byiza rero nk'ababyeyi kugaragariza urukundo abana bacu kugira ngo bakure bafite umutima wa kimuntu.

Umusaza uri mu zabukuru, ari kuganira n'umuganga umwitaho. Uwo muganga, yambaye itaburiya y'umweru kandi yambaye mu ijosi agakoresho bakoresha bumva uko umutima utera hari utwo ashyira mu matwi, ikindi gice akakirambika ku mutima w'umuntu.

Abagabo bambaye ingofero, bicaye mu ntebe zegamirwa. Bamwe bafite ibibando mu ntoki ,kandi bose baripfutse mu mutwe. Ikigaragara ni uko bateraniye ahantu hamwe, bahujwe n'ikintu kimwe. Bari kungurana ibitekerezo bya kigabo.

Umuntu ubona ko ageze mu zabukuru, ufite umusatsi urimo imvi, wambaye ishati ya karokaro, ari ku meza, aho ari kurya, ari kumwe n'undi muntu, ubona ko bose bishimye cyane, ni byiza rero gushimisha abageze mu zabukuru.

Igihe cyose twita ku bageze mu zabukuru, ni ngombwa ko tubakoresha n'imyitozo ngororamubiri kugira ngo imibiri yabo yongere ikore neza kandi na bo birabafasha mu kugira ubuzima bwiza.

Umusaza w'umukambwe ubona ko ageze mu zabukuru, wambaye agapira k'ubururu n'ikabutura y'umukara ari kumwe n'undi mukobwa ukiri muto wambaye impuzankano y'abaganga y'umukara, birasa nkaho ari kumuha ubutabazi amwitaho kuko izabukuru zirushya.

Umuryango ubona ko wishimye cyane, harimo umugabo n'umugore n'umwana ndetse hari n'undi mugabo ndetse n'undi mukecuru ufite imvi, bose barahagaze bari guseka ubona ko bishimiye ubuzima babayemo nk'umuryango.

Umumama bigaragara ko ageze mu zabukuru, afite imisatsi irimo imvi yambaye amadarubindi ndetse n'umupira urimo imirongo y'umukara n'umweru, ari kumwe n'undi mukobwa ukiri muto bigaragara ko ari umuganga waje kumwitaho.

Umugabo n'umugore bari mu myitozo ngororamubiri, ubona ko bishimye rwose, bombi bambaye amasaha ku kuboko kw'ibumoso, bambaye udupira tubegereye ndetse bari gukora siporo bari kumwe, ubona ko ari ibintu bibashimishije.

Abamama ubona ko bari mu kigero kimwe bishimye cyane basa nkaho bari kubyina, inyuma yabo hari urugo rwiza cyane ndetse hari n'igiti, aba bamama barizihiwe ubona ko baryohewe n'ubuzima.

Umugabo bigaragara ko ageze mu zabukuru, wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi, wicaye mu kagare k'abantu bafite ubumuga, ari kumwe n'umwana ukiri muto ufite imisatsi myinshi, wambaye agapira k'icyatsi na we n'ipantaro y'ikoboyi, ubona ko bari kuganira.

Umumama ubona ko ageze mu zabukuru, afite umusatsi w'imvi, kandi mu maso biragaragara ko ashaje, ari guseka kandi afite agasorori kariho ibiryo byiganjemo imbuto mu ntoki ze.

Umugabo ufite imvi, wambaye ishati y'umuhondo n'agapira kajya gusa icyatsi, ari kumwe n'umukobwa ukiri muto wambaye amadarubindi uri guseka, yambaye n'ishati y'ikoboyi. Bigaragara ko ari kumwitaho amwereka ko ari hafi ye.

umukecuru ubona ko afite imyaka myinshi cyane, afite akantu mu ntoki gafite ibara rya move, iruhande rwe hari undi mukobwa ubona ko akiri muto, bigaragara ko ari umuganga waje kumwitaho, amuha ubutabazi.

Abategarugori batatu bishimye cyane bari guseka ubona ko bari kwifotoza, umwe yambaye umupira w'umuhondo, abandi bambaye imipira by'umweru, barishimye cyane bishimira izabukuru.

Abategarugori bateraniye hamwe, ubona ko bose bishimye, bambaye imyenda irimo ibitenge, bicaye ku ntebe za parasitike, inyuma yabo hari insina, bose bari kureba ahantu hamwe, bigaragara y'uko bakurikiye umuntu uri kugira icyo ababwira.

Umumama wipfutse igitambaro cy'umukara, wambaye amadarubindi, wambaye umupira w'umuhondo, akaba afashwe mu ijosi n'umukobwa w'umuganga uri inyuma ye, wambaye impuzankano y'ubururu bari kurebana bishimye, bigaragara ko ari kumwitaho, ni byiza kuba hafi y'abageze mu zabukuru.

Abantu bateraniye mu cyumba kimwe, ubona ko bari gufungura, harimo umusaza ndetse n'umukecuru, bari ku meza, inyuma yabo hakaba hari umusore uhagaze, wambaye ikarita y'akazi mu ijosi. Bigaragara ko ari kubaganiriza,, abitaho nk'abantu bageze mu zabukuru.

Umukobwa w'umuganga, wambaye impuzankano y'ubururu n'akuma kifashishwa mu gupima umuvuduko cyangwa se uko umutima utera, ari guha ibinini umukecuru ugeze mu zabukuru, uwo mukecuru na we afite ikirahure cy'amazi mu ntoki ze.

Umusaza wicaranye n'utwana duto tubiri ubona ko ari kutugaburira twose dufite ibyo kurya mu ntoki, umusaza arakuze cyane afite imvi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara afite n'ikibando.

Umugabo w'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, ufite icyuma gipima umutima, acyambaye mu ijosi, ari kumwe n'umutegarugori wambaye agapira ndetse ufite n'inkoni mu ntoki. Bigaragara ko ari kumwitaho amuha ubutabazi.

Umusaza ndetse n'umukecuru ubona ko bose bageze mu zabukuru, barishimye cyane kuko bari kumwe ku meza, bari gusangira amafunguro. Ni byiza rero guhora wishimye mu gihe ugeze mu zabukuru, kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we, bombi ubona ko bishimye cyane, bambaye imipira y'umweru, bafite imisatsi miremire kandi myiza, inyuma yabo hari igikuta kiriho amabara y'umweru, hakaba hariho n'insakazamashusho y'umukara.

abantu ubona ko bose bishimye cyane, harimo umukecuru ubona ko akuze, umukobwa ufite akana mu ntoki bigaragara ko ariwe mama wako, bose barishimye cyane bishimira ubuzima babayemo.

Umugabo uri mu zabukuru wambaye imyenda y'umukara ufite imisatsi y'imvi, ari kwitabwaho n'urubyiruko umusore n'umukobwa, bigaragara ko bari kumwitaho kugira ngo agire amasaziro meza.

Umukobwa bigaragara ko akiri muto, wambaye agapfukamunwa ndetse n'agapira k'icyatsi, ari kwita ku musaza ubona ko ageze mu zabukuru, wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa, inyuma yabo hari ibiti ndetse hari n'inzu.

Umusaza uri mu za bukuru wambaye umupira w'umweru, ari kumwe n'umudamu bigaragara ko ari umuganga, ari kumusukira ji mu kirahure, ndetse ku meza aho bari gufungurira hari imbuto ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye bifasha abantu bari mu za bukuru kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, ari kumwe n'undi mumama w'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, iri mu ibara ry'umutuku, yambaye n'agapfukamunwa, amadarubindi ndetse na ga. Inyuma yabo hari igiti.

Umusaza bigaragara ko ageze mu zabukuru, ufite inkoni mu biganza bye, wambaye umupira w'imbeho, inyuma ye hari umukobwa wambaye impuzankano y'ubururu na baji, bigaragara ko ari umuganga waje kumwitaho.

Aha ni mu isoko ry'imbuto, aho harimo abagore bari kuganira, harimo imbuto zigiye zitandukanye nk'amaronji, indimu ndetse hari n'inyanya imbere yabo.

Umu mama bisa nkaho akuze, ubona ko ari guterura utuntu tubiri mu ntoki dufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza rero ko n'abantu bakuze bamenya akamaro ka siporo, kandi bakazajya bazikora.

Umugabo n'umugore bari ku meza ubona ko bizihiwe cyane, bombi bambaye amadarubindi. Umugabo afite imvi n'umugore afite imisatsi myiza cyane y'umukara, bari ku meza bari gufungura ndetse hateretseho n'ikirahuri cy'amazi.

Abagabo babiri, ubona ko umwe akuze cyane, ukuze ni uwambaye ingofero, n'ishati ya karokaro, n'ipantaro y'umukara. Ari kumwe n'undi mugabo, uri kumusindagiza. Inyuma yabo hari ibiti, bari kugenda mu kayira gakoze neza.

Icyapa kiriho abasore babiri bose bambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umukara na karuvati y'umukara, ku cyapa begamyeho hakaba handitseho ko ari ukwita ku buzima muri Afurika y'uburasirazuba.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo hakaba handitseho ko ari umunsi icyumweru cyahariwe kurwanya mikorobe, ni byiza rero kwiyitaho.

Umugabo w'umuzungu wambaye ikositimu ndetse na baji mu ijosi, ari kumwe n'undi mukobwa wambaye ikanzu n'inkweto zihagaze, na we wambaye baji mu ijosi. Bari imbere y'icyapa cyerekana icyatumye bahura.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho ababyeyi babyarira. Hakaba harimo abaganga bambaye kandi bipfutse hose kugira ngo babashe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana maze bugende neza.

Ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, cyanditseho ko ari igihugu cy'u Rwanda, minisiteri y'ubuzima. Kiri mu ibara ry'ubururu, ibyanditseho byose, byanditswe mu mabara y'umweru.

Icyapa cya RBC, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, hano inyuguti zanditse mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi. Hari n'izindi nyuguti ziri mu mabara y'umukara zisobanura ibyo ari byo.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, aho bari mu cyumba, hari porojegiteri iri kumurika ibyo bari kuvuga imbere, hari umugabo uri imbere yabo ufite indangururamajwi, ndetse abandi baricaye bamuteze amatwi.

Umugore wambaye agashati k'icyatsi, ijipo y'umweru irimo amabara y'umuhondo, ufite mikorofone mu ntoki, ndetse afite n'imisatsi miremire. Ari gutanga ikiganiro ndetse abandi bakaba bamukurikiye.

Icyumba cy'inama gihuriyemo abantu benshi batandukanye, hari abicaye imbere bisa nk'aho aribo bari gutanga ikiganiro abandi bicaye mu ntebe zisanzwe babareba, harimo n'umugabo uri gufotora.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, turabonamo abaganga batandatu bambaye bikwije hose, bambaye imyenda y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, inyuma yabo hari umugabo uhahagaze wambaye umupira uri mu ibara rya move.

Abagabo ndetse n'abagore ubona ko bari bari mu nama ya minisiteri y'ubuzima, urabona ko bishimye cyane bari bari kurebera hamwe uko ubuzima buhagaze muri iki gihe ndetse n'icyakorwa kugira ngo burusheho kugenda neza.

Icyapa gifite ibara ry'umweru, umutuku n'icyatsi, cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru, avuga ko atanga umurongo ngenderwaho mu kwirinda ndetse no kurwanya icyorezo cya SIDA. Twirinde icyorezo cya sida, hato kitatworeka.

Icyapa kiriho umugore uri kugaburira umwana, bigaragara ko ari kumwitaho amuha ibikungahaye ku ntungamubiri, inyuma ye hari abandi bantu. Ibyo byose bikaba biri ku cyapa gishushanyijeho ikarita ya Afurika, kikaba cyanditseho n'andi magambo.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, ubona ko higanjemo urubyiruko bambaye imipira y'umweru bose, bafite icyapa cyanditseho ngo: twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare, kuko ivurwa igakira.

Icyapa kiriho ibara ry'icyatsi, umuhondo n'umweru, kiriho amabwiriza y'uko twakwirinda igwingira mu bana, ni byiza rero ko twita ku bana bacu kugira ngo batagwingira.

Icyapa gisa ubururu, cyandikishijeho amagambo ari mu nyuguti z'umweru, mu kinyarwanda avuga ko ari ubuzima bw'abaturarwanda. Rero u Rwanda rwimirije imbere, ubuzima bw'abaturage.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, hakaba hariho ifoto y'umugore ufite imisatsi miremire y'imikara, wambaye n'ishati y'umutuku cyanditseho ko ari umunsi w'ubuzima ku Isi yose.

Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo mu nyuguti z'umweru, hariho abantu batatu bose bambaye udupfukamunwa, undi yambaye n'akajiri k'umukara. rero ni ngombwa ko dukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirusi kuko cyoretse ubuzima bw'abantu benshi.

Abaturage bicaye ku gikuta gifite ibara ry'umukara, bamwe bipfutse mu mutwe abandi bakenyeye ibitenge, bose ni abagore bigaragara ko hari ibyo bateze amatwi.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari mu gikorwa cyitwa: " Kwita ku buzima," inyuma yabo hari icyapa kinini gifite ibara rya move, ku meza hagiye hariho uducupa tw'amazi.

Umugore ubyibushye, ufite imisatsi miremire wambaye n'agapira k'ubururu, ni we uri kugaragara ku cyapa kiri imbere, cyanditseho amagambo avuga uruhare rw'ibidukikije mu buzima rusange.

Icyapa kiriho ubwoko bw'ibiryo bitandukanye, harimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara, aha rero baradukangurira kurya ibyo biryo kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze.

icyapa gifite amabara y'ubururu umukara n'umweru gikangurira abantu kwirinda indwara ya diyabete ni byiza rero gukurikiza amabwiriza yo kwirinda indwara ya diyabete kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze

Aya ni amabwiriza ajyanye n'ubuzima, ni byiza ko tuyakurikiza kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, aya mabwiriza aterwa inkunga na USAID, ikigo gishinzwe kwita ku buzima.

Icyapa gisa ubururu ndetse harimo n'ibara ry'icyatsi n'umweru, kikaba ari icyapa kibutsa imiryango kujya igira ibikorwa ipanga byanditse, ni byiza ko tugira ibikorwa twifuza kugeraho tukabyandika.

Icyumba kirimo abaganga ndetse n'abandi baje kwivuza, harimo umukecuru n'undi mumama baje kwivuza, abaganga bakaba bari kubitaho babafata amaraso ndetse hirya yabo hari n'undi musore wambaye ijire y'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, bose bafite udutabo mu ntoki, bifotoreje mu cyumba gisa neza cyane, kirimo tapi iriho amabara y'umutuku, imbere yabo hari ameza manini y'ikizeru.

Aha ni mu cyumba cy'inama. Imbere hari ibyapa bigaragaza iyo nama iyo ari yo. Hari umugabo uhagaze imbere ufite n'insakazamajwi imbere ye. Hirya gato hari insakazamashusho imwerekana kugira ngo n'abari inyuma bamubone neza.

Ibitaro byiza cyane bifite uruzitiro rw'ibyuma, harimo indabo ziteye imbere y'amazu ndetse ubona ko hari inzu nziza, imwe isakaje amabati y'umutuku, indi ikaba isakaje amabati y'ubururu ndetse hakaba harimo n'igiti kinini.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda, harimo ibikoresho bisakaza amashusho, aho bapima umurwayi bareba ibyo arwaye, harimo aho bashyira imyanda, ni icyumba cyiza gifite amarangi y'umweru ubona ko cyujuje ibisabwa ku murwayi, kugira ngo arwaremo ameze neza.

Ni ahantu heza cyane mu bitaro hari amakaro y'umweru n'andi asa kake, ibikuta bisa umweru ndetse hejuru na parafo ni umweru hakaba harimo n'ivase irimo ururabo rwiza ndetse n'inzugi zikaba zirimo ibirahure.

Iki ni cyumba cyo kwa muganga gifite amakaro asa kaki, parafo isa umweru ndetse harimo n'amatara agezweho, giteguye neza rero ku buryo buri murwayi aba afite akantu kameze nk'akumba aba arimo wenyine.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kirimo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye.

Icyumba kiza cyane giteguye neza, kirimo amarido y'ubururu n'inzitiramibu, kirimo n'ibitanda by'abarwayi bimeze neza cyane, iki rero ni icyumba cyo kwa muganga.

Inyubako iri kubakwa ariko ikaba itari yuzura neza, bikaba ari ibitaro by'akarere ndetse bikaba biri ahantu bita Shyira. Ni byiza rero ko twita kuri gahunda z'ubuzima kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyiza cyane kandi gisize amarangi meza cyane, kigiye kirimo ameza atandukanye, hagati hari ameza y'ibara ry'umukara, bigaragara ko ari aho abantu baza guherebwa serivisi.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu n’ipantaro y’umukara, yanatebeje ari kuzinga inzitiramibu yari ikingiye umurwayi kugira ngo imibu itamugeraho. Ni byiza ko twita ku barwayi kugira ngo barusheho gukira kandi vuba.

Icyumba giteguye neza kandi gisa neza, kirimo amakaro y'umweru, kigiye kirimo ibitanda umuntu yicara asa nk'uwegamye, biriho n'akantu kameze nk'ameza imbere yabyo, bigaragara ko ari aho bakirira abarwayi bafite ibibazo by'umugongo.

Icyumba gisa neza cyane kandi giteguye neza kirimo insakazamashusho, harimo n'igitanda cy'abarwayi, gifite inkuta zisa umweru ndetse igitanda gishasheho n'ishuka y'umweru.

Abakobwa batatu beza b'abaganga, bambaye impuzankano yo kwa muganga ari yo amataburiya y'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru, bibafasha mu bwirinzi kugira ngo amatembabuzi y'abarwayi atabageraho. Bari mu nshingano zabo.

Inyubako nziza cyane, ifite imbuga iriho amapave, yubakishije amatafari ahiye, iteye irangi rijya gusa umweru. Isakaje amabati y'ubururu. Yanditseho ko ari Ikigo Nderabuzima cya Shagasha. Imbere yaho hicaye abantu bane.

Ibitaro byiza cyane bya CHUB biherereye mu Karere ka Huye. Ibi ngibi ni ibitaro, bifasha abanyeshuri bari kwimenyereza mu mwuga w'ubuganga, gusobanukirwa neza ibyo bakora; ndetse n'abandi baturage n'abandi baganga na bo babibamo.

Inyubako nini nziza cyane ibamo abantu bageze mu zabukuru kugira ngo bitabweho. Imbere hahagaze umukobwa wambaye hejuru umuhondo, hirya hari indi nyubako nini kandi na yo nziza.

Umusore wambaye agapfukamunwa, ingofero, agapira k'umweru ndetse n'ikabutura, aryamye ku bitaro kwa muganga. Umuganga uri kumufasha yambaye itaburiya ndetse yarisukishije, ari kumuhambira akantu ku kuboko.

Inyubako nziza cyane, ikikijwe n'ubusitani, buteyemo pasiparume ndetse n'indabo, iyo nyubako ifite ibara ry'umuhondo. Akaba rero ari ikigo gishinzwe, kwita kanseri mu Rwanda.

Urubyiruko ubona ko ari urungano rw'abakobwa bose bambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'udupfukamunwa, barishimye cyane, aho ubona ko bari kwifotoza bishimira inshingano bakora zo kwita ku buzima bw'abantu.

Umurwayi uri mu kagare k'abafite ubumuga ari ahantu mu kayira k'amapave, imbere ye hari jaride nziza, hakaba hari n'inyubako yubatse neza, isize n'amarangi, hepfo ye hari n'ikigega cy'amazi.

Icyumba cyo mu bitaro kirimo intebe ndetse n'ibitanda byegamirwa. Ndetse hari n'ikindi gitanda kizitije amarido asa ubururu. Bigaragara ko ari aho umurwayi ajya mu gihe bagiye kumuvura indwara y'umwihariko.

Inyubako nziza cyane ubona ko isa neza rwose, ni inyubako yibitaro ifite amatafari ahiye, igisenge cyayo gifite amabati y'umuhondo ndetse hanze hari n'ubusitani.

Inyubako nziza cyane igeretse kabiri ni iy'Ikigo Nderabuzima cya kanyinya, ikaba iteye amarangi meza y'umweru ifite amabati y'ubururu, imbere yaho hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba gicururizwamo indorerwamo z'amaso hari icyapa cy'umukobwa wambaye indorerwamo z'amaso, hejuru hariho utuntu zigiye zibitsweho kugira ngo ubagannye wese abone izikwiranye n'amaso ye.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, yambaye n'uturindantoki. Ari gutera urushinge umugabo, uwo mugabo na we yateze urutugu. Ni byiza rero ko mu gihe hari icyorezo cyateye, tugana abaganga bakadukingira.

Aha ni mu bitaro. Turabona abantu benshi baje aho bakirira abagana ikigo nderabuzima. Mu ndimi z'amahanga hakaba hitwa kuri reception. Bategereje serivisi zo kwa muganga kugira ngo bahabwe ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane imbere hari ubusitani buteyemo igiti kinini cyane, inzira yerekezayo irimo amapave. Ni inyubako ifite inzugi zisa na kaki ndetse ibikuta bisa umuhondo. Ni inyubako yo kwa muganga.

Icyumba kimeze neza kandi giteguye neza cyo kwa muganga, akaba ari aho babika ibikoresho byo kwa muganga, harimo utubati dufunze neza, tubikwamo ibikoresho ndetse n'indi miti kugira ngo bigumane ubuziranenge.

Ibitaro byiza byubatse neza, hano muri jaride hakaba harimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, hirya hari inzu ifite amabara y'umweru ndetse n'igiti giteye hirya kirekire, ndetse n'ikirere kikaba kimeze neza.

Icyumba gisa neza cyo kwa muganga, kiriho n'ubukarabiro, amakaro yaho afite ishusho y'ivu, hariho n'inkuta zisa umweru, na parafo y'umweru, iriho amatara ari kwaka.

Inyubako nziza cyane ubona ko ikeye, aha ni ku bitaro. Ibitaro rero bitanga serivisi z'ubuvuzi, ni yo mpamvu umuntu wese wumva atameze neza arwaye, agomba kuhagana kugira ngo bamufashe.

Inzu nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, inyuma yayo hari indi nzu ifite amabati atukura, hagati y'izo nzu harimo ibigega by'amazi bibiri, imbere y'iyi nyubako hari indabo nziza cyane, ubona ko ari inyubako ya isange one stop center, Remera, Rukoma.

Umurwayi uryamye ku gitanda, aha ni mu bitaro, umuganga yambaye amadarubindi yambaye n'itaburiya ndetse na ga, igikuta kirasa umuhondo ndetse umurwayi biragaragara ko arembye cyane.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, irimo intebe nziza cyane ndetse ku bikuta hashushanyijeho ibintu biteye amabengeza. Ifite ibikuta bifite ibara ry'umweru ndetse n'amakaro y'umweru n'andi asa nka kaki.

Inyubako ifite akayira gashashemo amapave, ifite ubusitani bwiza buriho indabo zigezweho, iyo nyubako ikaba iteye irange ry'umweru, iriho icyapa cyanditseho ko ari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge.

Mu cyumba cyo kwa muganga, aho harimo abakobwa batatu, babiri b'abaganga n'undi waje kwivuza, umwe w'umuganga ni umuzungu wambaye impuzankano z'ubururu, undi ni umwirabura wambaye itaburiya y'umweru, ku gikuta hirya yabo hariho itara.

Inyubako nziza cyane ifite amabati asa umutuku n'ibara risa umuhondo, imbere yayo hahagaze urujya n'uruza rw'abantu benshi ndetse imbere y'uruzitiro hari n'imodoka ifite ibara ry'umweru, iyi akaba ari inyubako y'ibitaro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo udutanda duto dufite amapine, batwaraho imiti, hariho n'ikindi gitanda hejuru yaho hariho ibintu bikumurikaho bikareba indwara ufite, ni ikoranabuhanga mu buvuzi.

Icyumba cyo kwa muganga kivurirwamo abantu bafite ikibazo cy'amaso, hagiye hamanitsemo indorerwamo nyinshi kugira ngo barebe izo waba ukeneye arizo baguha, tubone neza tubona Isi dutuyemo.

Imodoka ziganjemo iz'umukara ndetse n'umweru, mo hagati hakaba harimo umugabo wambaye ishati y'umutuku. Biragaragara ko ari inyubako y'ibitaro kuko hari n'imodoka z'imbangukiragutabara, mu gihe rero tutameze neza ni ngombwa ko tugana ku bitaro kugira ngo batwiteho.

Icyumba cyo kwa muganga, gisashe amashuka asa icyatsi, hariho n'amarido y'ubururu bwerurutse, ibyo byose biri mu cyumba cyakirirwamo abarwayi bafite indwara, zibasaba kuba kwa muganga.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga aho bakurira amenyo. Umurwayi yaryamye, umuganga aramwiyegereza kugira ngo arusheho kumurebera ikibazo afite mu menyo ye. Hari n'abandi baganga babiri.

Icyumba giteguye neza cyane, kiriho ibitanda bishashe neza, ndetse imbere ya buri gitanda hari ameza. Hari amarido meza cyane ndetse hejuru hari n'amatara ari kwaka. Biragaragara ko ari icyumba cyo kwa muganga aho baryamisha abarwayi.

Inyubako nziza cyane ubona ko imbere yayo hahagaze abantu. Ni ikigo nderabuzima cya Gishweru, ruguru hari abamama bari kumanuka begera iyo nyubako ifite amabara y'umuhondo ndetse yubakishije amatafari ahiye.

Icyumba cyiza cyane kibikwamo imiti yo kwa muganga, harimo imiti igiye itandukanye ndetse ibitswe neza cyane. Ni byiza rero ko imiti ibikwa neza kugira ngo ihabwe abarwayi ikimeze neza ifite icyanga.

Icyumba cyiza, giteguye neza cyane, bigaragara ko ari aho bakirira. Hari umugabo wicaye mu ntebe zegamirwa, ubona ko afite telefone mu ntoki, imbere ye hari undi mugabo uri guhabwa serivise zo kwakirwa. Harimo n'abandi bantu. Iki cyumba giteguye neza, kirimo amavaze ateretsemo indabo.

Inyubako nziza cyane yubakishije amabuye kuva hasi kugeza hejuru. Imbere yayo hahagaze abantu, hino yayo hari indabyo nziza cyane zimwe zararabye, ubona ko ari inyubako igezweho.

Abantu biganjemo abakobwa bane n'umugabo umwe, bahagaze imbere y'inzu ikorerwamo gusuzuma ibimenyetso by'uburwayi, iyitwa laboratwari, ni byiza rero ko tugana kwa muganga bakamenya ibyo turwaye.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo amarido y'ubururu, harimo ibitanda by'abarwayi ndetse n'abarwayi babiryamyeho, harimo kandi n'abaganga bashinzwe kubitaho bambaye ubona ko bikwije hose kugira ngo barusheho gutanga service nziza ku barwayi.

Inzu nziza cyane y'ibitaro aho ababyeyi babyarira hitwa muri materinete, hari umugabo imbere y'aho ndetse hari n'intebe hanze, inyuma gato hari ikigega ndetse ubona ko n'ikirere gikeye.

Icyapa cy'umweru cyerekana ikigo ngororamuco cya Kigali. Hari urupangu rwubakishije amatafari ahiye, ndetse hari n'ibiti ku muryango winjirayo. Aha hajyayo urubyiruko rufite imico itari myiza.

Icyumba gisa neza cyane kandi giteguye neza. Iki ni cyumba cyo kwa muganga. Harimo ibitanda by'abarwayi, harimo inzugi zifite ibara rya kaki, hariho amabara y'umweru ku bikuta ndetse ikindi gikuta gifite ibara ry'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga, amarido y'umuhondo, utubati, ibitanda ndetse kiri kwakamo n'amatara. Biragaragara rero yuko ari aho abarwayi baba bari ndetse n'abaganga bari kubitaho.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro bya Ruhengeri, ni inyubako irimo ubusitani bwiza bw'indabo ndetse ikaba ikikijwe n'uruzitiro rwiza cyane, inzu z'ibitaro zisakaje amabati y'ubururu, inyuma y'ibitaro hari urujya n'uruza rw'abantu benshi.

Mu bitaro kwa muganga aho abarwayi baba bafite inshingano zo kuvurwa n'abaganga. Aha hari umuganga, bigaragara ko yambaye agapfukamunwa, yambaye n'itaburiya ari wo mwenda w'akazi wabo, uri kwita ku barwayi.

Iyi ni inyubako, ikaba iherereye i Remera, mu mujyi wa Kigali. Ni inyubako icuruza imiti itandukanye, iyo miti ikaba ivura indwara. Ni byiza rero ko tugana inzu zicuruza imiti kugira ngo twivuze indwara turwaye.

Inyubako nziza cyane kandi isa neza cyane, iteye irangi ry'umweru, ikaba isakaje amabati y'ubururu, ikaba ari inzu y'ababyeyi cyangwa se aho ababyeyi babyarira, inyuma yaho hari ibiti binini.

Ibyuma byitwa ibyicungo, ni ibyuma abana bajyaho bakarya umunyenga. Ibi byuma rero bituma abana bishima, ibyo bikabafasha mu mikurire, mu mitekerereze ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Icyumba ubona ko gisa neza cyane, aha ni kwa muganga, turabonamo intebe, turabonamo parafo irimo amabara y'umuhondo ndetse hagiye hari n'amavaze arimo indabo.

Inyubako nziza cyane iherereye mu karere ka Huye, akaba ari ibitaro byigenga, ibi bitaro bitanga serivisi zigiye zitandukanye n'uburwayi butandukanye, kandi banatanga imiti myiza cyane baguha ugakira vuba.

Icyumba gisa neza cyane, kirimo amakaro y'umweru, ndetse n'andi asa kaki. Gifite parafo nziza cyane iriho n'amatara ari kwaka. Aha ni aho bakirira abantu harimo n'intebe nziza z'ubururu.

Aha ni mu cyumba cy'ishuri, aho ari abanyeshuri bari basuwe n'abashyitsi bari kubitaho, aha rero turabona umuganga wari uri guha umwana ibikoresho azajya akoresha ari gukora isuku ku mubiri we, inyuma yabo hari abandi bantu harimo n'umuzungu.

Iki n'icyumba cyo kwa muganga, gifite inzugi z'ibirahure ndetse gisa neza cyane, inkuta zo hakurya ziriho amabara y'umuhondo, hejuru hariho parafo y'umweru, hariho n'icyapa cyerekana ko ari ibitaro by'abana.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, imbere yayo haparitse imodoka nyinshi cyane, harimo n'ibangukiragutabara. Iyo nyubako rero hakaba hari n'ubusitani, burimo ibiti by'imikindo, buri imbere yayo. Hari n'umugabo, ufasha mu guparika neza imodoka.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro ifite inzugi z'umweru, imbere hari umuhanda wa kaburimbo. Imbere gato hateye indabo ndetse n'amatafari yubakishije iyo nyubako ni amatafari ahiye.

Kwa muganga haragaragara umugabo wambaye yikwije hose bigaragara ko arimo gukora isuku, iruhande rwe hari indobo y'icyatsi ari gukoresha kugira ngo isuku ayikore neza.

Inyubako nziza cyane, ifite ubusitani bwiza imbere yaho, harimo indabyo ndetse n'imikindo. Akaba ari inyubako y'ibitaro byita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe. Ikaba yubatse kandi isa neza.

Umugabo wicaye ku rukuta rw'amabuye, rukikije igiti kinini cyane, biragaragara ko yugamyemo izuba, izuba rero iyo ribaye ryinshi ntabwo ari ryiza ku buzima bw'abantu.

Inyubako nziza cyane iriho ibirahure inyuma ndetse ikaba ifite n'inkuta z'umweru, imbere yayo hari igiti bigaragara ko iyi nyubako ari ibitaro, hari n'utwapa turiho izina ry'ibyo bitaro, rero ni byiza kujya tugana ibitaro mu gihe turwaye.

Icyumba gisa neza cyane kirimo n'intebe nziza cyane, harimo n'akantu gateyemo indabo mo imbere, ifite parafo irimo amabara y'umuhondo, hasi hari amakaro y'umweru, hari intebe zikoze neza z'umukara ndetse n'izindi z'imifariso.

Inyubako nini cyane bigaragara ko ari nziza yubakishije amabuye kuva hasi hejuru ikaba ifite n'inkingi nyinshi, hari kugendamo abagabo babiri bose bambaye imyenda y'umweru hejuru, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane, ifite inzugi zirimo ibirahure bikwerekana ukuri uri, akaba ari inyubako icuruza imiti ndetse mu Kinyarwanda cyiza ibinini, hano rero wahagana ni i Kanombe.

Umuntu bisa nkaho yavunitse intoki, umuganga ari kumuhambira urutoki, kugira ngo amagufa adakomeza kwangirika, ni byiza rero kwiyitaho mu gihe twavunitse.

Umusore ubona koko ko yakoze imyitozo ngororamubiri yapfukamye yambaye ibirenge, yambaye n'imyenda y'imikara, insengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza rero gukora siporo kuko zidufasha kugira ubuzima bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri buri munsi ni byiza cyane, kuko bidufasha kugira ubuzima buzira umuze amaraso agatembera neza, tukirinda umubyibuho ukabije ndetse gukora siporo ngororamubiri biturinda izindi ndwara zitandukanye.

Imyitozo ngororamubiri iyo wayikoze cyane ishobora kukuviramo ikibazo cy'umugongo. Ni ngombwa rero ko ugana ku ivuriro, kugira ngo bagufashe baguhe ubutabazi bw'ibanze.

Siporo ngororamubiri ni kimwe mu bidufasha kugabanya ibiro, kurwanya umubyibuho ukabije, kurwanya umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye rero twese twihatire gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yahinnye akaguru k'inyuma, ak'imbere arakazamura, ubundi azamura n'amaboko. Ari kunanura mu ntege, mu mavi, mu mugongo, mu ijosi ndetse no mu maboko.

Umukobwa uryamye kuri tapi y'umutuku, hirya ye hari ivase zirimo indabyo, n'igikuta gifite ibara ry'umweru, araryamye, ari kunanura umugongo n'amaboko.

Umukobwa bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'umukara ndetse na kora y'umukara. Hari akantu yiziritse ku kuboko ahagana ku rutugu kandi ari kunywa amazi.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibyuma bitandukanye umuntu yakoresha akora imyitozo ngororamubiri. Ibi rero biratwumvisha ko ari byiza gukora imyitozo ngororamubiri kandi twayirangiza tukarya imbuto.

Umubikira upfukamye akana kamwegamyeho, ndetse n'undi muzungu upfukamye ufashe akana. Inyuma yabo hari abandi bana, hakaba hariho n'ibitambaro birimo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo.

Iki ni icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa mu gihe dukora imyitozo ngororamubiri, ibyo begamaho, ndetse n'ibyo bicaraho. Hirya gato hari abantu bahagaze mu muryango.

Umusore mwiza cyane ufite ubwanwa, wambaye umupira w'umuhondo ufite icupa ry'amazi akaba ari kuyanywa, bigaragara ko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri icyaka kikaba cyari kimwishe.

Icupa ririmo amazi meza yo kunywa, inyuma yayo yaryo hari ikirere gisa ubururu, hari n'ikiganza gifashe iryo cupa, ni byiza rero kunywa amazi mubuzima bwacu bwa buri munsi kuko amazi ni ingirakamaro.

Icyuma gikoreshwa n'abaganga, aho baguhambira ikintu ku kuboko bagupima, maze bakareberamo uko ubuzima bwawe buhagaze. Iri rero ni ikoranabuhanga rikoreshwa mu buvuzi buteye imbere.

Icyumba cyiza cyane, kirimo amatara hejuru ari kwaka, gifite n'inzugi kirimo abagabo, baratwereka ibikoresho bya siporo, siporo ni nziza ku mubiri w'umuntu, harimo siporo bakora bicaye, izo bakora baryamye ndetse n'izindi z'ubwoko butandukanye zidufasha mu mibereho yacu kugira ngo ubuzima bugende neza.

Umusore ubona ko yakoze siporo ngororamubiri nyinshi cyane, ari kunywa amazi kugira ngo yongere agarure amazi mu mubiri we kuko ay'imyanda yavuyemo, ni byiza ko tunywa amazi mu gihe tuvuye muri siporo.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi higanjemo: abana, urubyiruko ndetse n'abakuru, bari mu kibuga, aho baje gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma yabo hari inzu ifite amabati y'umweru ndetse hirya yabo hari n'ibiti.

Umugabo uryamye mu cyumba gikorerwamo siporo, ubona ko harimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, araryamye, ukuguru kumwe yakuzamuye, ukundi yakurambitse hasi kugira ngo agorore imitsi yo mu maguru ye.

Hano ni ibikoresho ndetse n'imiti itandukanye ikoreshwa mu gihe wagize uburwayi. Ni byiza rero ko ukora imyitozo ngororamubiri kuko nayo irinda indwara nyinshi.

Umusore ufite agacupa k'amazi mu ntoki, akaba yicaye hasi, yambaye isengeri y'umukara bigaragara ko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri. Mu gihe cyose rero tumaze gukora imyitozo ngororamubiri, tujye dufata amazi meza tuyanywe kuko birafasha.

Umukobwa witeze agasume k'umweru, yambaye agapira karimo amabara y'ubururu, umweru, icyatsi n'umukara, akaba ari kunywa amazi, biragaragara yuko yari afite icyaka, amazi ni meza ku buzima.

Agatanda ubona ko karinganiye kandi gashobora gutwarika neza kitwa burankari, aka ni agatanda batwaraho abarwayi nk'abakinnyi iyo bagize ikibazo mu kibuga ndetse cyangwa mu mpanuka, aka gatanda kandi kaba mu mbangukiragutabara.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo abantu benshi baje kugorora imibiri yabo kugira ngo bakomeze kurushaho kugira ubuzima bwiza barwanya umubyibuho ndetse n'izindi ndwara ziterwa no kudakora siporo.

Icyapa kerekana uburyo icumi ushobora gukoramo imyitozo ngororamubiri yagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza, imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane kuko ituma ubuzima buhora bugenda neza kandi ikarinda n'indwara zitandukanye.

Umukobwa mwiza cyane uri muri siporo, akaba ari mu myitozo ngororamubiri imufasha kunanura umugongo, amaboko ndetse n'maguru akaba yishimye cyane. imyitozo ngororamubiri rero ni ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi ubona ko afite ubuzima bwiza kuko akora siporo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi ari kuyimenaho bigaragara ko yari avuye mu myitozo ngororamubiri akumva afite icyunzwe akimenaho amazi.

Icyapa kigaragaza imyitozo ushobora gukora mu gihe cyose ukora akazi ko mu biro kagusaba kwirirwa wicaye. Ushobora kurambura amaboko, ukarambura amaguru ndetse ukaba wanazamura ukuguru kumwe ukagufatisha ukuboko kugira ngo unanure imitsi.

Icupa rinini rigaragara nk'iririmo umuti wo gukaraba intoki mu gihe tuvuye muri siporo n'ahandi hose kugira ngo umwanda uba wavuye mu byunzwe byacu utagira abandi wanduza.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, aho abaganga bahurira bakareba ibizami baba bafashe abarwayi. Aba baganga ubona ko bambaye bikwije hose, bambaye n'udupfukamunwa, bari kuganira ku byo bakora.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hateretse mudasobwa, yicaye kuri tapi ahantu hari amakaro y'ikigina, ubona ko umukobwa yagoroye amaboko kugira ngo amaraso ye arusheho gutembera neza.

Ibikapu bifite ibara ry'umutuku byandikishijeho amagambo y'umweru, byanditseho ko ari ubutabazi bw'ibanze, ibikoresho ushobora kwifashisha utanga ubutabazi bw'ibanze ukaba wabigendanamo.

Ibimera ndetse n'imbuto zitandukanye, byose byahurijwe hamwe kugira ngo bitunganywe bivemo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umuntu wunamye wifashe mu ivi bigaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri aza kugira ikibazo mu ivi, yambaye agakabutura kagakora ndetse yambaye n'isaha ku kuboko

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi mu byatsi, arambura amaguru, none ashaka gukoza umutwe ku mavi kugira ngo ananure imitsi yo mu maguru kandi ananure n'umugongo, ni byiza rero gukora siporo.

Icyumba gikorerwamo siporo ngororamubiri, kirimo umusore ubona ko koko yakoze siporo, ni umusore ufite ikintu mu ntoki, hirya ye hari umukobwa usutamye w'umuzungu, hari n'ibindi bigiye bimanitse nabyo byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Imyitozo ngororamubiri idufasha kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Rero mu gihe tuyikora, ni ngombwa ko igice twumva tuvuye gukora siporo kitameze neza tukizirika kugira ngo gisubire ku murongo.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara, imyenda yifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ari kwinanura, aho n'imbere ye hateretse agacupa karimo amazi. Ni byiza rero kunywa amazi mu gihe cyose tumaze gukora siporo.

Ukuboko gufashe ijage iri gusuka amazi mu kirahure. Ni byiza rero kunywa amazi menshi kugirango turusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi ubuzima butumagaye.

Umuganga uri kuvura umugabo mu ivi, bisa nk'aho uyu mugabo yari avuye mu myitozo ngororamubiri, ataha yagize ikibazo cyo mu ivi. Ni ngombwa rero kugana ku ivuriro mu gihe uvuye mu myitozo ngororamubiri.

Akuma kifashishwa mu gukuraho inda bikoroheye, muri make n'akantu umuntu akoreraho siporo kugira ngo agabanye umubyibuho ukabije, siporo rero ni nziza ku buzima bwacu twese.

Ibiganza biteruye imbuto zirimo puwavuro, avoka, amaronji, inyanya n'ibindi bigiye bitandukanye. Izi mbuto zikaba zifashishwa mu gukora umuti gakondo kandi izi mbuto ni nziza ku mubiri kuko zirinda indwara.

Umusore ubona ko yakoze imyitozo ngororamubiri ari kunywa amazi, yambaye agapira k'ubururu, ekuteri mu ijosi, ndetse yambaye n'utuntu ku maboko, ni byiza rero ko igihe cyose twakoze siporo ngororamubiri tugomba no kunywa amazi menshi.

Icyuma cyabugenewe mu kugira ngo abantu barusheho gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari icyuma uhagararamo kikagenda, nawe ukiruka. Ni byiza ko rero dukora iyi myitozo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Uburyo butandukanye bwo gukora imyitozo ngororamubiri, harimo gukina umupira w'amaguru, kwiruka, gusimbuka umugozi, gukina n'indi mikino igiye itandukanye, noneho ukanywa n'amazi menshi kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu, rero mu gihe umaze gukora iyo myitozo ngororamubiri, biba byiza iyo wisize amavuta yabugenewe ananura imitsi ndetse ukarya n'ibiryo byiganjemo imboga n'imbuto.

Umukobwa wicaye kuri tapi, imbere ye hari mudasobwa, iruhande rwe hari icupa ry'amazi ndetse n'utwuma twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Ari kwinanura yicaye kugira ngo ananure mu mugongo, amaboko ndetse n'amaguru.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa, uteruye umwana wambaye agapira k'umuhondo; imbere yabo hari umuganga wambaye inifomu y'ubururu, ndetse n’agapfukamunwa. Bigaragara ko ari gupima umwana ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Umuntu bisa nkaho yahoze akora imyitozo ngororamubiri, afite akantu k'ubururu mu ntoki ari kwikanda mu ivi bigaragara ko siporo yakoze zatumye mu ivi hatamera neza, ni ngombwa rero kujya twikanda mu myanya yose no mu ngingo mu gihe tuvuye muri siporo ngororamubiri.

Umusore n'inkumi bambaye imyenda ya siporo, umusore yicaye ku ntebe ari kunywa amazi, umukobwa ahagaze iruhande ari kwinanura, imbere yabo hari ibikapu hirya yabo hasi ni ibyatsi.

Umukobwa wambaye agasengeri k'ubururu, ufite imisatsi miremire ari kunywa amazi, biragaragara ko rero avuye mu myitozo ngororamubiri, igihe cyose tuvuye gukora iyi myitozo ni ngombwa ko tunywa amazi kugira ngo tugarure ubuyanja.

Aha ni mu cyumba kwa muganga. Hari umuganga imbere uri ku nsakazamashusho, wambaye itaburiya y'umweru, hakaba hari n'abandi baganga bafite amakayi mu ntoki bari kwandika ibyo ari kubabwira.

Igare rigendwamo n'abantu bafite ubumuga bwo kugenda, ni igare ribafasha kuba hari ibyo bakwikorera bidasabye ko haba hari undi muntu, iri gare rirabafasha cyane.

Igihe cyose uri gukora cyangwa umaze gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ko wicara ukanywa amazi kugira ngo ugarure imbaraga mu mubiri wawe kandi n'ibyunzwe biba byakuvuyemo bigire ikibisimbura.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri wihinnye cyane hari n'akantu yiziritse ku kuboko, imbere ye hari icupa ry'amazi aranywa namara gukora iyi myitozo ngororamubiri.

Umukobwa bigaragara ko yagize ikibazo mu ivi, ari kwishyiraho agapfuko kugira ngo amaraso adakomeza kuva. Ni byiza rero kujijuka tukamenya ubutabazi bw'ibanze twakwiha, mu gihe dukomeretse.

Umusore uri muri siporo wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, yicaye hasi amaboko ye yayafatishije urukweto. Inyuma ye hari ibyatsi byiza by'indabo, hari n'ipoto iri kugaragara inyuma ye gato.

Amazi, imbuto ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ni bimwe mu bidufasha kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza mu gihe tuvuye mu myitozo ngororamubiri, ni byiza rero ko tubikoresha ndetse cyane.

Aha ni mu kibuga ku ruhande hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje kwihera ijisho, aba bakinnyi bambaye amasengeri y'umweru hejuru arimo n'umukara ndetse n'amakabutura y'umukara, ubona ko abaturage bishimiye umukino.

Umusore ufite ukuboko kunini ndetse uteruye icyuma, bigaragara ko ari mu nzu bakoreramo imyitozo ngororamubiri. Inyuma ye hari n'ibindi byuma byinshi wakoreraho iyo myitozo ngororamubiri.

Umuganga wambaye akuma gafasha mu kumva uko umutima utera mu ijosi, ateruye akantu gafite ibara ry'umutuku wijimye, yambaye itaburiya y'umweru kandi yambaye na karuvati.

Umuganga uri gukorera masage umuntu uvuye muri siporo, bigaragara ko yagize ikibazo cyo mu ivi, mu gihe cyose wakoze imyitozo ngororamubiri, ugataha wumva hari igice cy'ubuzima kitari gukora neza ni byiza kugana kwa muganga.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi, uyu musore wambaye imyenda y'umukara, yapfukamye arambura amaboko imbere ye, kugira ngo ananure amaboko, umugongo, no mu mavi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yafashe akaba yafashe akaguru aka gahina akakageza ku kibuno yarambuye n'amaboko. Rero ari kugabanya umubyibuho, ni twihatire rero gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyapa cyerekana indyo y'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, muri iyo ndyo rero harimo imineke, amacunga, amarongi, puwalo, ndetse n'izindi mbuto nyinshi zitandukanye.

Umukinnyi uryamye mu kibuga bigaragara ko agize ikibazo mu ivi, hari umuganga wamufashe mu ivi, ndetse iruhande rwabo hari n'umupira w'amaguru, biragaragara ko uyu musore afite ikibazo cy'imvune.

Umukobwa uryamye hasi, wahinnye ivi, ukundi kuguru gusigaye akaba yakurambuye, akaba rya vi yahinnye arifatishije amaboko ye, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, ananura imitsi kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa mwiza cyane wambaye imyenda isa hasi no hejuru, ipantaro ya kora ndetse n'agasengeri, afite imisatsi miremire, yicaye hasi yarambuye amaboko ayerekeza ku maguru, byerekana ko ari gukora siporo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusore wigoroye wifashe mu mutwe wambaye isengeri, biragaragara ko yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, twese rero twihatire gukora iyi myitozo kuko ituma tubaho neza.

Agacupa k'umweru kariho igipapuro inyuma gifite ibara ry'ubururu n'umweru cyanditseho amagambo asobanura ibiri muri ako gacupa, biragaragara ko rero ari umuti gakondo.

Ikimera kiri ahantu mu kinani, gifite ibibabi by'icyatsi, akaba ari ikimera gikorwamo umuti gakondo ufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ziba mu buzima bwa muntu.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi atohagiye, iyo gikuze gikorwamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi. Umuti gakondo uravura neza cyane.

Icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse na shokora, kikaba cyanditseho ngo Akagera medicine, bikaba bivuze ko ari aho wabona imiti ikuvura indwara zigiye zitandukanye.

Agakarito kabitse umuti gakondo, wamaze gutunganywa kugira ngo uzahabwe uwukeneye. Ni byiza ko dukoresha imiti gakondo kugira ngo dukire indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo yamaze gutunganywa, ndetse ikanabikwa neza mu bikoresho byabugenewe, turabonamo n'ibikozwe mu mbuto. Imbuto ni nziza cyane rero ku buzima bwa muntu, kuko imufasha kugira ngo abeho neza, kuko ziri mu birinda indwara.

Ibimera bisa icyatsi biteye ahantu hamwe, ibi bimera bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye kandi ivura indwara nyinshi cyane, rero tuyikoreshe twivure.

Agapfunyika kari mu ibara ry'umuhondo ndetse mo imbere harimo imiti gakondo yamaze gutunganywa, hariho icyapa kigaragaza iyo ari yo ndetse n'ibyo iyo miti ivura, biragaragara ko rero ari ikimera gakondo cyatunganyijwe kikavamo uwo muti.

Ikimera gikorwamo imiti gakondo. Iki kimera ni igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi, hano hakaba handitseho ngo: forever, iyi miti gakondo ni myiza cyane ariko kirazira kuyikoresha ugakoresha ibirengeje urugero.

Uducupa duto dufite ibara ry'icyatsi n'umweru, handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi n'irindi bara rya move, tukaba ari uducupa tubitswemo imitsi gakondo ivura indwara zitandukanye.

Ibimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo, iyo bimaze gusarurwa hari ibifatwa bigasekurwa kugira ngo wa muti ushobore kuvamo. Uyu muti ukavura indwara zitandukanye.

Aha ni mu gihuru, aho batwereka ikimera gifite amababi y'icyatsi, iyo gisaruwe kikaba gitunganywa kikavamo umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye abantu baba barwaye.

Agacupa kariho ibimera bitandukanye byatunganyijwe kugira ngo bibyare umuti gakondo ubitswemo, ibyo bimera harimo igikakarubamba ndetse n'izindi mbuto zitandukanye byavanzwe bikabyara uwo muti.

Umuti gakondo ukorwa mu mbuto ndetse n'ibindi bimera, ukaba uri mu gacupa k'umweru hakaba hariho ikirango cy'uwo muti cyanditse ku gapapuro kambitswe inyuma y'iryo cupa, ndetse n'uko uwo muti ukoreshwa.

Imiti gakondo ikozwe mu bimera bigiye bitandukanye, ikaba icuruzwa na campany yitwa Alliance Global, iyo miti ikaba ivura indwara nyinshi zitandukanye mu buzima bwa muntu.

Udupfunyika ndetse n'uducupa n'udukarito, birimo imiti gakondo yamaze gutunganywa, iyi miti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye, harimo n'izo kwa muganga baba bananiwe.

Umurima urimo ibimera by'ibikakarubamba, byifashishwa mu gukoramo imiti gakondo ivura indwara zitandukanye, ibi bimera rero tubibungabunge kuko bidufatiye runini.

Ikimera gisa neza gifite ibara ry'icyatsi kiriho n'indabyo z'umuhondo n'umutuku, iki kimera kikaba cyifashishwa mu gukora umuti gakondo, uwo muti gakondo ugakoreshwa uvura indwara zigiye zitandukanye.

Ibimera ndetse n'imbuto zitandukanye byamaze gutunganywa ubona ko byakozwemo imiti gakondo, ifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, twavuga nk'ibicurane, umutwe, giripe ndetse n'izindi zifata mu myanya y'ubuhumekero.

Ibinini bipfunyitse mu dusashi twabugenewe, bikaba byakuwe mu gakarito kari inyuma yabyo, kariho icyo ibyo binini byakomotsemo, rero bikaba ari imiti gakondo yatunganyijwe maze ikabikwa neza.

Icyapa kiriho amashusho y'uducupa akanini ndetse na gato, bigaragara ko ari ikimera cy'igikakarubamba cyamaze gutunganywa kikaba cyakozwemo umuti gakondo, uyu muti rero uvura indwara zitandukanye akenshi izo kwa muganga bananiwe.

Ikimera cy'umuravumba giteye ahantu mu butaka, iki kimera kikaba kibyazwamo umuti gakondo wifashishwa kuvura indwara zigiye zitandukanye, iki kimera amababi yacyo barayafata bakayakamura akavamo umuti uvura indwara.

Agacupa kari gafite ibara ry'umweru gafite umupfundikizo w'ubururu kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, akaba ari agacupa kifashishwa mu kubika umuti gakondo watunganyijwe.

Aha ni mu ishyamba, aho tubonamo igiti gifite ibibabi bisa icyatsi kibisi, ibi bibabi bikaba bikorwamo imiti gakondo ifasha mu kuvura indwara zitandukanye, rero imiti gakondo iravura kandi cyane.

Ibibabi bisa icyatsi biri ahantu mu gihuru, biragaragara ko ari ibitunganywa, bikavanwamo umuti gakondo ufasha mu kuvura indwara nyinshi. Ni byiza rero ko twita ku bimera bibyara imiti gakondo.

Uyu ni umuti gakondo ukozwe mu buki, ukaba uvura indwara zigiye zitandukanye. Ni byiza rero gukoresha imiti gakondo twivura indwara zitwugarije mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko ni byiza kandi birafasha.

Icyapa kiriho uducupa, udukoko ndetse n'ibindi bikoreshwa kugira ngo iyi miti gakondo itunganywe. Akaba rero, ari umuti gakondo ukorwa mu gikakarubamba.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru kanditseho amagambo ari mu nyuguti z'umukara, akaba ari agacupa kabitsemo umuti gakondo wamaze gutunganywa, kugira ngo uvure indwara nyinshi zigiye zitandukanye zugarije ubuzima bwa muntu.

Umuti gakondo iyo wamaze gutunganywa, ni byiza ko ubikwa mu bikoresho byiza, bifite isuku, kandi byabugenewe kugira ngo ukomeze uhorane ubuziranenge, maze uzavure neza.

Ikimera gisa icyatsi ubona ko ari ikimera cyiza cyane rwose, kikaba gikorwamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, imiti gakondo iravura neza cyane.

Ibinini bisa icyatsi bigaragara ko ibi binini byatunganyijwe bikuwe mu bimera bibyara imiti gakondo. Ibi binini rero byavura indwara nyinshi zitandukanye bityo ukagira ubuzima bwiza.

Icyapa kiriho amashusho y'ibimera bivamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ibi bimera kandi bishobora no gukorwamo indi miti ya kizungu bakoresha mu bitaro.

Icyapa kiriho uducupa twinshi cyane, bigaragara ko tubitswemo imiti gakondo ikorwa mu kimera cy'igikakarubamba, iyi miti rero nyuma yo gutunganywa biba byiza iyo ibitswe ahantu hizewe kugira ngo irusheho gukora neza.

Icupa risa umweru ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umukara, akaba ari umuti gakondo uva mu bimera biba byamaze gutunganywa. Umuti gakondo rero uravura indwara zigakira.

Umuti gakondo wakozwe mu bimera gakondo, kugira ngo uze ari igisubizo kuri amibe. Ni umuti uri mu gacupa gafunze neza, kariho igipapuro gisobanura ibyo uwo muti uvura.

Imbuto zirimo amaronji n'indimu n'ibinyomoro byifashishwa mu gukora imiti gakondo, imiti idufasha mu kwivura indwara turwaye ndetse izi mbuto zinafasha mu kurinda indwara.

Imiti gakondo myinshi iri ahantu hamwe, aho hari uri gusekura bimwe mu bimera, kugira ngo bivemo umuti gakondo, wujuje ubuziranenge kandi ukora neza. Imiti gakondo iravura kandi indwara zigakira.

Ibimera byiza cyane bikorwamo imiti gakondo, izi ni tungurusumu zikaba zifasha umuntu wese urwaye inkorora ndetse n'ibicurane kongera kumera neza akagarura agatege.

Udukarito turimo imiti igiye itandukanye kandi ivura indwara nyinshi cyane, tukaba turi ku cyapa kimwe. Iyi rero ni imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara, ahanini zananiranye kwa muganga.

Uko indwara zitera zitateguwe ni nako abantu barushaho gukora imiti gakondo iva mu bimera, iyi rero ni imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo ifunzwe neza mu bikoresho byabugenewe, inyuma hakaba handitseho amagambo y'uko bikoreshwa ndetse n'indwara bivura. Ni byiza ko rero twita ku bimera bivamo imiti gakondo.

Ishusho iriho ibimera byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kubyazwamo imiti gakondo, ivura indwara zitandukanye, iyi miti rero iratunganywa, ikajyanwa mu masoko maze abantu bakayikoresha.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru, kariho igipapuro inyuma kivuga izina ry'umuti ubitsemo ndetse n'uko ukoreshwa, aka gacupa rero kabitsemo umuti gakondo wamaze gutunganywa.

Uducupa tw'umweru bigaragara ko tubitsemo umuti gakondo wamaze gutunganywa. Uyu muti rero uva mu bimera kandi urafasha mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Ahantu hashashe ubwoko bw'imiti myinshi gakondo yifashishwa mu kuvura. Imiti gakondo rero ikomoka ku bimera bitandukanye, ikaba ifasha mu kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa ndetse n'ibikarito byabitswemo imiti gakondo yamaze gutunganywa. Ibi rero birerekana ko imiti gakondo igomba gutunganywa ndetse ikabikwa neza kugira ngo idata icyanga.

Iki ni icyapa kiriho imiti igiye itandukanye, ikomoka mu bimera bivamo imiti gakondo, iyi miti rero iba yamaze gutunganywa, ikajyanwa ku isoko kugira ngo abarwayi bayikoreshe.

Ibimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo, iyo bimaze gukura barabifata bakabitunganya kugira ngo ya miti ivemo imeze neza, iyo miti ikifashishwa havurwa indwara zigiye zitandukanye.

Icupa ririho icyapa cyanditseho ko habitswemo umuti gakondo w'umuravumba wamaze gutunganywa. Uyu muti rero uvura indwara zitandukanye harimo iz'uruhu n'iz'ubuhumekero.

Ibyatsi bisa neza cyane biri mu ibara ry'icyatsi, ubona ko iyo bimaze gukura babica, bakagenda bakabitunganyamo umuti gakondo, imiti gakondo rero igakoreshwa ivura indwara zananiranye.

Aha ni mu gihuru, turabonamo ikimera gifite amababi y'icyatsi, kiri hejuru y'umugwegwe, iki kimera kikaba gikoreshwa kibyazwamo umuti gakondo, uvura indwara nyinshi cyane zifata ubuzima bw'abantu.

Icyapa kiriho uducupa turimo imiti gakondo, iyi ikoreshwa mu kuvura indwara z'ingingo, igihe cyose ubabara mu ngingo ukaba wagura iyi imiti igufasha kugira ngo ubuzima bwongere bumere neza.

Utujerekani ndetse n'utundi ducupa, bigaragara ko tubitsemo imiti gakondo, hari n'akandi gakarito na ko kabitsemo imiti gakondo, iyi miti rero yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi cyane.

Imiti gakondo iyo yafashwe igatunganywa neza ika ndetse ikanabikwa mu ducupa twabugenewe iravura kandi neza, kuko n'indi miti yo kwa muganga hari imwe iba ikozwe mu bimera ivamo imiti gakondo.

Uducupa tw'ubwoko butandukanye, dufite n'ibirango bitandukanye, biriho ikibitswemo; biragaragara ko ari imiti gakondo yatunganyijwe, ikabikwa neza, kugira ngo igumane ubuziranenge bwayo.

Agacupa karimo umuti wo gukaraba intoki, wica udukoko tuba turi mu ntoki zacu. Ni byiza rero ko igihe turi gukaraba intoki dukoresha uyu muti kuko tuba twasuhukanyije n'abantu benshi, bityo kugira ngo mu gihe tugiye gufungura izo microbe zituveho.

Ikimera cy'umuravumba ni kimwe mu bimera bibyara umuti gakondo. Iki kimera kikaba kivura indwara zigiye zitandukanye nk'ibicurane ndetse n'inkorora.

Agacupa keza k'umweru kabitsemo umuti gakondo wavuye ku kimera cyafashwe kigatunganywa, wanditseho amagambo avuga izina ry'uwo muti, ndetse n'uko umuti ukoreshwa.

Icyapa kiriho udukarito tubitsemo imiti gakondo, imiti gakondo ikaba ikorwa mu bimera bigiye bitandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera cya tangawizi, akaba ari ikimera cy'umuti kivura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora, ibicurane ndetse n'umutwe. Iki kimera kikaba kibarirwa mu miti gakondo.

Icyapa kiganjemo amabara y'icyatsi, umutuku ndetse n'umweru, hariho agacupa karimo umuti gakondo uvura ibintu bigiye bitandukanye harimo kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ikumira indwara zifata prostate.

Uducupa ndetse n'udukopo ubona ko tubitsemo imiti gakondo yamaze gutunganywa. Imiti gakondo rero ikaba ikomoka mu bimera, baba batunganyije bikayibyara. Ni byiza rero kuyikoresha, kuko idufasha mu gukira indwara nyinshi.

Imiti gakondo ibitse mu ducupa twabugenewe tubika imiti imaze gutunganywa. Hakaba harimo uducupa dufite imipfundikizo y'icyatsi ndetse n'ikigina twose turiho ibirango bimwe by'uruganda buyitunganya.

Uducupa dutatu twose tubitsemo umuti gakondo uva mu kimera k'igikakarubamba, akaba ari umuti wamaze gutunganywa neza ukaba ugiye kujyanwa ku isoko kugira ngo abantu bawugure bivure indwara karande.